Abana b'abasore bane bahuriye kuri robine bavoma, umwe muri bo ahagaze ku kintu umuntu amanura kugira ngo amazi amanuke, ariko amazi ari kumeneka kuko ikijerekani ntago gitezeho neza.

Ubukerarugendo ni ikintu gikomeye muri iki gihugu kitwinjiriza amadovize menshi, hajeho igikorwa cyo gukora ibikapu byanditseho tisura u Rwanda n'ururimi rw'icyongereza kugira ngo abanyamahanga baze basure u Rwanda.

Umwana w'umukobwa muto wambaye imyenda y'ibitenge bitukura usutse ibiryamye ari mu gikorwa yishimiye cyane cyo gukaraba intoki amazi ari kuva muri robine amanukira mu i ibasi.

Itsinda rigizwe n'abagore n'abagabo b'abanyarwanda ndetse n'abazungu, bitabiriye igikorwa cyo kwita ku buzima bw'umubyeyi utwite mu rwego rwo kurwanya ingwingire, nyuma yaho bahagarara hamwe, ahantu hari icyapa cy'icyo gikorwa bafata ifoto.

Abagore bane n'umwana w'umusore umwe bari ku iriba, babiri muri abo bagore, bari guterurana indobo isa n'ubururu, abandi batatu basigaye, bari kubitegereza.

Umugore uri mu zabukuru, ari mu ruzi yazamuye amajipo, afite ijerekani ari kuvomeramo amazi, iruhande rwe hari umusore waje koza igare.

Abantu benshi harimo abagabo, abagore. Bitabiriye amahugurwa bafite impapuro ebyiri ziriho ibyo bize barahagaze bari kureba imbere bafata ifoto berekana ibyo bize.

Hari igikorwa cyabereye mu nyubako nziza abatumirwa bicaye imbere harimo abagore babiri n'abagabo bane bari kuganira ku nsanganyamatsiko runaka twatanze ndetse banabazwa ibibazo byerekeye kuri iyo nsanganyamatsiko.

Iyi nama yahuje inzobere mu by'ubuvuzi kugira ngo bungurane ibitekerezo ku buryo bwo guteza imbere ubuzima bw'abagore batwite n'abana bato mu Rwanda hose.

Abaganga batatu bari mu cyumba bakiriramo abarwayi, babiri muri bo bafite amakarine mu ntoki bari kwandika mu gitabo kinini ibyo bakuye mu makarine.

Umwana muto usutse w'umukobwa ari iruhande rw'inzu ahantu hari esikariye, ari kumena amazi ayakura mu icupa afite nawe maze akitegereza uko ari kumena ayo mazi.

Itsinda ry'abaganga, ririmo abakobwa n'abasore. Bambaye amataburiya y'umweru, bari kwifotoza, bishimye, nyuma y'igikorwa bavuyemo cyo gusuzuma abarwayi no kubafasha, mu bijyanye n'indwara zigiye zitandukanye.

Abanyeshuri bo mu mashuri abanza basuwe n'abantu batandukanye harimo n'abazungu, bari kwifotoza imbere y'urugi rusa ubururu bamanitse amaboko bishimye baseka.

Abana b'abanyeshuri bahuriye ku iriba iniforume yabo ni kaki, bafite indobo z'umuhondo hasi bari kuvomeramo ariko bari gutoba amazi mbere yuko agera mu ndobo.

Umugore wirabura ukiri mutoya ateruriye umwana we mu gitenge wambaye ingofero y'umukara n'amasigisi y'umweru ndetse nawe arirabura bahagaze ahantu kuri robine bari kuvomera mu ndobo isa umukara.

Habaye igikorwa cyajemo abaganga ndetse bashakaga gusuzuma abaturage indwara zitandukanye, batera amahema ahantu, haza n'imbangukiragutabara kugira ngo ugize ikibazo, bamugeze ku bitaro byoroshye.

Abana b'abanyeshuri batandatu bambaye iniforume za kacyi, bari kuri robine, buri wese ari kuri robine ye, bari kuvoma amazi amanuka ajya mu ndobo y'umuhondo, ariko bari kuyatoba.

Umwana muto ufite amezi atanu bari kumuha umuti bakoresheje agacupa kabugenewe kajya mu kanwa k'umwana, umuganga yamwasamishije niwo uri kumuha umuti, umubyeyi we aramuteruye kugira ngo bamuhe umuti neza.

Abana bane bato cyane bagufi, bari ku iriba. Hari n'undi mukobwa uri kubavomera, bisaba kumanura ikintu gihari kugira ngo amazi aze. Inyuma yabo hari imodoka y'umweru, iri mu bwoko bwa Toyota.

Ku iriba ry'amazi hateraniye abana bato b'abasore bane, umukobwa umwe ndetse n'umugabo umwe bose bararangaye, bari kureba ibiri kubera hirya yabo, ariko umugabo afashe kuri robine kugira ngo amazi atameneka.

Umwana ufite nk'amezi atandatu ateruwe n'umubyeyi we, bari guseka bose barishimye, mama we yambaye umupira w'umweru, umwana yambaye na we umupira w'umweru w'imbeho, urimo imirongo.

Habaye inama, umugore uri utanga ikiganiro, yambaye ikanzu y'umweru n'agakote k'amaboko magufi k'umukara, ari imbere yabo bose, abitabiriye inama bicaye mu buryo basa nk'aho bakoze ikizeru kugira ngo babashe kumva.

Itsinda ry'urubyiruko ryitabiriye amahugurwa, bambaye imipira y'ubururu bose, hagati yabo hari abantu bambaye imyenda isanzwe b'abayobozi ndetse n'abashyitsi baje kubafasha muri aya mahugurwa.

Umugore uri mu zabukuru yicaye imbere y'inzu ye, yateye amashyiga, ashyiraraho isafuriya, ari guteka igikoma, arishimye cyane, iruhande rwe hari ibikombe bibiri ndetse n'umufuniko hasi ari kugera aho agapfundikiza.

Hari imodoka nini, yateguwe nk'ivuriro rigendanwa, ryita ku buzima bwo mu mutwe, iri vuriro ryatangijwe mu karere ka Bugesera, ndetse rifasha abantu batandukanye badafite ubushobozi, bwo kugera kwa muganga byoroshye.

Kwita ku buzima bwo mu kanwa ndetse n'amenyo ni ikintu cy'ingenzi muri ubu buzima, hari umusore wasetse ufite amenyo yera de, ariko nanone harimo ikibazo cy'uko atarenganiye akeneye muganga ngo amufashe kuyashyira ku murongo.

Umuforomokazi wambaye umwambaro w'akazi ndetse n'agapfukamunwa naga, ari gusuzuma umukobwa mu kanwa akoresheje akantu kameze nk'agati.

Icyumba kirimo umuganga w'indwara zo mu kanwa, yicaye ku ntebe iciye bugufi yambaye itaburiya y'umweru, iruhande rwe hari igitanda cy'umurwayi, hejuru y'icyo gitanda hari igikoresho kimanura urumuri kugira ngo barebe neza mu kanwa.

Umwana muto ufite imisatsi myiza yagiye kwa muganga w'amenyo, bari gusuzuma amenyo ye ngo barebe ikibazo kirimo, umuganga uri kumusuzuma yambaye ga zisa icyatsi.

Abaganga babiri b'abagabo bari kuvura umurwayi, umwe w'umugore aryamye ku gatanda bamushyizeho agatambaro mu gatuza kugira ngo atandura, abo bagabo bambaye amataburiya, udupfukamunwa, linete ndetse na ga bari gukora mu kanwa ke.

Koza amenyo ni ikintu cyiza cyane kigufasha kurinda amenyo yawe kuba yafatwa n'indwara zigiye zitandukanye. Hano hari abanyeshuri bari kwiborosa bakoresheje uburoso ndetse n'umuti w'amenyo.

Umwana w'umusore wirabura wakaraze imisatsi ari kwa muganga w'amenyo aryamye ku gatanda bamushyize akantu mu kanwa gafata iminwa yo hasi n'iyo hejuru kugira ngo muganga abone uko agenda avura amenyo ye bimworoheye.

Umugabo uri mu za bukuru, ufite imvi wambaye rinete, bari kumukoresha imyitozo ngororamubiri y'amaboko, aho ari gufunga ibipfunsi, kugira ngo imitsi ye irambuke.

Abagore bari mu zabukuru bicaye ahantu hamwe ku mucyeka bagiye mu mugoroba w'ababyeyi, imbere yabo hari umuntu uri kubaganiriza bose bari kumwitegereza kugira ngo bumve ibyo ababwira.

Umugore uri mu za bukuru, uri kunywa ikinini afite ji mu ntoki, ari kureba muganga afite ubwoba bwo kunywa icyo kinini, ariko ateze amaboko kugira ngo akimuhe akinywe.

Abagore batatu bari mu za bukuru, imbere yabo hari ibipapuro ndetse n'indodo. Babiri bambaye rinete, urimo hagati afite telefone, bose bari kwitegereza barebamo, ibyo ari kubereka.

Iyo abantu bageze mu zabukuru bahura n'indwara zigiye zitandukanye. Hano hari umugore wambaye agapira k'umuhondo na rinete, afite icupa mu ntoki ririmo ibinini arikubisuka ku biganza kugira ngo abone uko abinywa.

Umukecuru yicaye ahantu mu murima iruhande rwe hari ibigorigori, imbere ye hari amashyiga yateye ari gucanisha ibyo bigori, hariho inkono ye, yapfundikije indi aricaye ategereje ko bishya.

Abasaza bicaye hamwe bari kuganira, bakoze ikizeru batatu muri bo bambaye ingofero z'abasilamu, umwe muri abo ari kuboha igiseke abandi bari kureba ibyo ari gukora baganira.

Tuziko kwishima byongera iminsi yo kubaho hano hari abagabo babiri bari mu nzira bafatanye ku rutugu baganira bishimye bahuje urugwiro uri kubona ko rwose nta ntanumwe wifuza gutandukana n'undi.

Umugore uri mu zabukuru ari gukora siporo ngororangingo, yicaye hasi yararambije amaguru, amaboko ayashyira ku maguru, agatuza ke kari gukora ku mavi.

Burya guseka byongera iminsi yo kubaho, hari umuryango wishimye, harimo abana batatu umupapa n'umumama, umumama ubona ko ari mu zabukuru kuko afite imvi, bahagaze ahantu hamwe bari kwifotoza.

Iyo umuntu yarwaye indwara imubuza kugenda, hari igihe kigera agatora imbaraga. Hano hari umugabo bahaye akantu witorezaho ufatishije amaboko yombi, hari n'undi muntu ugufasha mu ubwo buryo bwo gutambuka.

Umuryango w'abenebikira witabiriye igikorwa cyateguwe na minisiteri y'ubuzima, bohereza batatu muri bo bajya imbere gusuhuza umwe mu bayobozi bari mu bateguye iki gikorwa.

Ikigo nderabuzima cya rwerere cyubatse ahantu munsi y'umukingo hiryaho hari amashyamba hejuru ku mabati hari umurasiri ariko iki kigo nderabuzima gikikijwe n'indabo nziza z'umuhondo ndetse n'umweru

Isange ni ikigo gifasha abantu bagiye bahura n'ibibazo bigiye bitandukanye by'ihohoterwa. Rifite ishami Kabutare, hari abayobozi barisuye kugira ngo barebe imikorere yaho, nyuma y'iki gikorwa bafatira ifoto imbere y'iyo nyubako.

Inyubako nziza yubakishijwe amatafari ahiye ifite amadirishya y'ibirahure gusa, iruhande rwayo hari iyindi nzu yubatse mu buryo bw'ikizeru, imbere y'iyo nyubako hari jaride nziza cyane.

Iyo ugeze ku Bitaro bya Kaminuza y'u Rwanda biherereye i Butare, umanza kubona icyapa. Wakomeza imbere ukabona aho imodoka ziparika z'abantu baba baje kwivuza muri ibyo bitaro cyangwa se abakoreramo.

Inzu itangirwamo imiti ya kizungu haba hari intebe umuntu uje gufata imiti yicararaho buri muti uba uri mu gakopo cyangwa se mu gikarito hanyuma byose bitondetse neza mu kabati k'ibirahuri.

Kwa muganga hari icyumba cyahariwe kubagiramo abantu bagiye bahura n'ibibazo bitandukanye mu mibiri yabo hari ubwo usanga ari ikibazo cyo mu mutwe mu kanwa munda mu magufa mu ngingo zigiye zitandukanye.

Hari itsinda ryahuguriwe uburyo batanga ubutabazi bw'ibanze ku muntu ugize ikibazo cy'ubuzima. Hano hari umwe wagize ikibazo cyo kuva amaraso, umwe muri iryo tsinda ari kwerekana uko bamuha ubutabazi bw'ibanze.

Amazi n'igenzi, amazi ni ubuzima, ariko biba byiza iyo amazi uri kunywa wayakuye mu kintu gifite isuku, uyakura mu ijage ifite isuku isa neza, uyashyira no mu kirahure gifite isuku gisa neza ukaba ariho uyanywera uba ufite ubuzima bwiza icyo gihe.

Umukobwa wambaye ipantaro y'ikoboyi yatsikiye, ari gukanda ikirenge akoresheje umuti uri mu ishashi isa ubururu, ku nzara asize ibintu bisa umukara.

Umwana w'umusore wambaye imyambaro y'imyitozo ngororamubiri, aduteye umugongo ari mu gikorwa cyo kwinanura amaboko, imbere ye hari amabuye, imbere yamabuye uruzi urabona ko ari ahantu hatuje ari kwitegereza urwo ruzi.

Ibitanda bibiri biriho abantu babiri, buri wese aryamye ku cye, bavunitse baryamishije urubavu rumwe, bagenzi babo bari kubakandira mu mugongo aho bari kubabara.

Umusore mwiza w'bigango, avuye muri siporo, yicaye ahantu hamwe, yambaye agakomo k'icyatsi, isengeri y'umukara, ari kunywa amazi gake gake.

Umusore uri muri siporo ufite imisatsi myinshi yafungiye inyuma ndetse n'ubwanwa, wambaye isengeri y'umukara n'ikabutura y'umukara, arapfukamye kuri tapi yarambuye amaboko imbere.

Umusore avuye muri siporo yambaye inkweto z'ubururu, amasogisi y'umweru, agakabutura k'umukara n'isengeri y'umukara, yakoze imfuruka ya mirongo icyenda ari kwinanurira ku giti niho yashyize akaguru.

Umwana w'umukobwa ufite imisatsi myinshi, ari muri siporo ngororamubiri yambaye ipantaro y'ivu n'agasengengeri k'umweru, yateye ukuguru kw'iburyo imbere, agufatisha ukuboko kw'ibumoso, ukundi kuboko kw'iburyo agushyira inyuma ku mugongo.

Itsinda ry'abana bari mu kigero k'ingimbi bari kubyinira mu kibuga, bambaye umukara n'umweru, uri kubona ko bari kubyina bafite imbaraga mu byo bari gukora.

Imiti gakondo igenda ivura indwara zigiye zitandukanye nayo iri mu bwoko bugiye butandukanye bisaba ko ugira umunzani upimiraho iyo miti ukagira utuntu dutandukanye tumeze nk'uduseke two kuyishyiramo ndetse n'agasekururo usekuriramo mbere yuko uyanika ngo ibe ifu.

Icyayi kirimo indimu, tangawizi ndetse n'ubuki, ni umuti kamere usukura umubiri, ukarinda ibicurane, ugatanga imbaraga mu mubiri w'umuntu.

Imiti gakondo itunganywa mu buryo bugiye butandukanye, hari iyo aba ari amazi, hari iyo aba ari ifu, iyo y'ifu bayifungiye mu kantu kameze nk'kinini gusa kibonerana, bayirambika ku kibabi.

Imiti gakondo idufasha mu kuvura indwara zigiye zitandukanye harimo amibe, igifu, umwijima, ndetse n'izindi. Mu kuyitunganya tuyishyira mu gasekuru tugasekura kugira ngo bibe ifu abantu babone uko bazayinywa.